Kampani isa nkaho yitwa radiyanti, ladiyanti kandi ikaba ari ikigo cya cya mbere mu Rwanda cyemejwe na banki nkuru y'u Rwanda mu gutanga ubwishingizi buciriritse aho,

Hano hantu hasa nkaho hari icyapa kijyanye n'ibintu by'ibikorwa byo kwamamaza ibintu by'ubwishingizi bigiye bitandukanye.

Ndi kubona ahantu hari icyapa kijyanye no kwamamaza ibikorwaremezo bigiye bitandukanye, aho icyo cyapa kiri ku muhanda kandi icyo cyapa kikaba ari kinini.

Ndikubona abagabo, bari ahantu basa nk'abishimye, kandi aho hantu basa nk'aho bari kwamamaza.

Radiyanti ni ikigo cyangwa se ni kampani ikorera mu gihugu cy'u Rwanda aho iyo kampini ibasha kuba yatanga ubwishingizi ku bantu batishinganishije cyane cyangwa se badafite ubukire.

Ndi kubona etaje nini cyane bisa nkaho iriho ibintu bijyanye no kwamamaza, iyo etaje iri ahantu heza cyane aho isizwe irangi rya shokora, ni etaje kabisa ndende.

Radiyati ni urubuga cyangwa se nk'ahantu ushobora kuba wagana ukizigamira bakabasha kuba bakungukira kane ku ijana ry'ibyo wizigamye buri mwaka.

Ahantu hitwa Allianz, bisa nkaho bari kwamamaza ibintu bijyanye n'ubwishingizi bwa Allianz, ikabasha kuba yafasha abantu mu gukora ibyo bintu by'ubwishingizi bikabasha kuba byafasha abaturage.

Ndikubona akantu bisa nkaho ari gushyiramo nimero za MTN bisa nkaho zishobora kuba zikoreshwa kuri banke.

Ndi kubona mesaje isa nk'aho ari iy'amafaranga cyangwa se konte y'umuntu wo muri banke cyangwa umuntu ushobora kuba akorera muri banke.

Ndabona ahantu bacuruza imitako n'utundi tuntu tugiye dutandukanye kandi aho hantu haba hari umugurisha n'umuguzi, aba agomba kuba yabagana bakamuha serivisi.

Inzu cyangwa se ahantu washobora kuba wabagana , bakabasha kuba bakugurisha ibintu by'ibicuruzwa birimo imyenda, amakoti n'ibindi.

Iduka, iryo duka kandi rishobora kuba ricuruza imyenda, inkweto aho ushobora kuba wagenda ukabonamo ibintu by'abana, imyenda y'abana n'inkweto z'abana.

Ahantu muri butike bacuruza ibintu bitandukanye, aho bacuruza imyenda n'ibindi bintu bijyanye no kuba washyira ku mubiri wawe ukaberwa ugasa neza.

Inzu abantu benshi bazwiho nk'izina rya botike, aho iyo nzu icuruza imyenda igiye itandukanye cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ibyo kwambara aho ushobora kuba wabagana bakabiguha.

Iduka ririmo umugore usa nkaho ari we urikoreramo, iryo iduka kandi ririmo ibiribwa byifashishwa mu guteka umuntu akabasha kuba yagira imbaraga.

Inzu y'ubucuruzi aho inzu irimo umugabo n'umukobwa, umukobwa yambaye ishati y'umweru n'amarinete, umugabo yambaye ishati n'umupiramo imbere, bisa nk'aho bashobora kuba bari kwishyura.

Butike, butike ni inzu y'ubucuruzi, aho iyo nzu y'ubucuruzi ishobora kuba wasangamo ibintu bigiye bitandukanye, aho ndi kubona ahangaha harimo ikibumbano gisa nkaho cyambitswe ikanzu nziza y'umugore n'inkweto ku ruhande ziri mu kabati.

Abantu basa nk'aho bari mu bintu bijyanye no kugurisha imodoka, kandi hari imodoka itwara imizigo cyangwa se ibindi bintu, iyo modoka ikaba ishobora kuba iguzwe n'umwe mu bantu ndi kubona.

Ndi kubona ahantu hari imodoka, aho iyi modoka ishobora kuba igurishwa, kandi iyi modoka ikaba iri mu bwoko bwa toyota, akaba ari imodoka nziza zigezweho.

Ndi kubona umugore n'umugabo n'undi mugabo n'undi mupapa, bisa nkaho ari umuntu uguze imodoka, ahantu bita Akagera Motors, Akagera Motors ni kampani ishinzwe kugurisha imodoka.

Ndi kubona imodoka n'abagabo babiri basa nkaho bahagaze, aho hari imodoka imwe bisa nkaho hari umuntu uyiguze muri aba bagabo babiri.

Ndabona imodoka ziriho zanditseho vorukano aho izi modoka zishobora kuba zatwara abantu n'ibintu mu buryo bwihuse, aho izo modoka ziba zitwarwamo n'abantu bicaye gusa.

Ndabona ahantu hari imodoka isa nk'aho iparitse, imodoka nziza cyane, imodoka ifite ibara ry'umutuku, bigaragara nk'aho ari imodoka inshyashya.

Imodoka nziza cyane iri mu bwoko bwa shyundayi, ikaba ari imodoka ishobora kuba igurishwa ku giciro cyiza.

Bona imodoka nziza cyane iri mu ubwoko bwa Toyota. Aho iyo modoka ishobora kuba yagurishwa. Umuntu uyitwaye ntabwo ashobora ko yagira ibibazo kuko ni imodoka za kijyambere nziza cyane. Imodoka yihuta cyane.

Ndi kubona abagabo basa nk'aho bari kugurisha imodoka, hari uwo ushobora kuba Uyiguze. Hari abagabo kandi batatu, umugabo umwe ashobora kuba ayiguze, imodoka nziza cyane.

Ubona hantu hari amamodoka ane, aho izo modoka zishobora kuba zatwara abagenzi ukabasha kuba wayitega ikakujyana aho ugiye.

Ndi kubona umuntu usa nkaho ari ahantu hari imashini, bisa nkaho ari kugaragara amaboko, ari ahantu hasize irangi ry'umweru.

Ndabona inote iyi note ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho iyo note ibarwa mu mafaranga ibihumbi bibiri, ikaba yagurwa cyangwa se ikaba yakoreshwa mu kugura ibintu bigiye bitandukanye.

Icyuma gishobora kuba nkaho, gishobora kuba kibara amafaranga mu buryo bwihuse cyangwa se kikanayarambura, kandi ndi kubona n'umugore uri ahantu, aha hantu hari icyo cyuma.

Kubona abantu aho ndi kubona ubukobwa n'abahungu bicaye ahantu bari kunywa amata, ahantu mu iduka ribasha kubasha kuba ariyacuruza.

Kubona ahantu hasa nkaho bacuruza amata, amata kandi akoreshwa ahantu hagiye hatandukanye, aho hashobora kuba wanywa cyangwa ukuyateka atagiye wari mu cyuma igihe kibasha kuba cyakonjesha.

Ahantu bashobora kuba bacuruza amata aho ndikubona kubona utubido bashyiramo amata yo kunywa n'ikintu bazanamo ayo mata.

Amandazi aya ni amandazi a ashobora ku yakorwa n'abantu batuye mu Rwanda bakabasha kubakura amandazi bakiteza imbere, bakabasha kuba banayacuruza abantu bakayagura, aya mandazi kandi aba ameze neza kandi aryoshye.

Ndi kubona ahantu hasa nkaho hari amata atunganyijwe neza, bisa n'aho aba yabanje kunyura mu nganda akaza gucuruzwa nyuma, amata agiye atunganyijwe neza ku buryo aba aryoshye neza.

Ndi kubona abantu basa nkaho bari ahantu bari kugura aho ndi kubona umwana n'umugabo n'umugore usa nkaho ariwe mugurisha, ibintu bijyanye n'amata cyangwa se ibindi bintu.

Ndabona amacupa y'amazi, aho ayo mazi aba atunganijwe ashobora kuba yacuruza ahantu mu tuduka ducuruza ibintu by'amata n'ibindi.

Ndikubona amacapati abantu benshi bakunze kurya, ashobora kubaya yacuruzwa ahantu mu madayari, aho ushobora kuba wabagana ukabasha kuba na we waryaho cyangwa se ukazigura ukabasha kuba waziryaho, kuko ni ibintu biba biryoshye cyane.

Ndibona ahantu basa nk'aho batunganya ibintu bijyanye n'amata cyangwa se bayacuruza, aho ayo mata aba ari mu tuntu tw'udukarito kandi ayo mata aba aryoshye cyane.

Ukuntu ushobora kuba watangamo amafaranga cyangwa se ukabasha kuba wareba ibintu wakoreye kuri telefone cyangwa se uburyo wishyuriye kuri fone, ni uburyo ushobora kuba wakishyurira kuri fone cyangwa ukabasha kuba wamenya ukabashara kuba wakishyurira kuri fone.

Ndabona akantu cyangwa se ahantu ushobora kuba wakishyurira ari yo banki nkuru y'umujyi wa Kigali bise Bank of Kigali.

Ndabona umuntu usa nkaho afite amafaranga agiye atandukanye, aho ushobora kuba wakoresha amafaranga mubikorwa byawe bya buri munsi kandi ukabasha kuba wayakenera.

Ndi kubona icyuma, gisa nk'aho gikoreshwa mu kubara amafaranga mu buryo bwa kijyambere, cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho. Aho iki icyuma kibara amafaranga ku buryo bwihuse.

Amafaranga, aho ayo mafaranga ushobora kuba wayakoresha, wenda ugiye nko mu gihugu ukabasha kuba wajyanayo amanyarwanda, ukabasha kuba wagana ahantu mu bigo bishobora kuba byagufasha mu kubona amafaranga y'icyo gihugu, mu gihe utanze ayo mu gihugu cyawe bakaba bayaguhindurira.

Amafaranga amafaranga akaba ari ayayo abashinwa cyangwa se abanyakoreya bakoresha ayo mafaranga kandi ni inoti n'ibiceri bisa nkaho iyi noti iriho umugabo.

Umuntu asa nkaho ari guhinduranya n'undi amafaranga, aho umwe ari gutanga amadolari undi ari gutanga abanyanigeriya. asa nkaho aribyo bijyanye no guhindura amafaranga.

Ndabona umuntu usa nkaho afite amafaranga, aho ayo mafaranga bisa nkaho ari kuyabara amafaranga kandi ni amadorari aho ushobora kuba wayakoresha mubintu byinshi.

Amafaranga menshi, amafaranga kandi aba ateretse nk'ahantu isa nkaho bari kuyerekana, ariho ifoto y'umusaza usa nkaho yambaye amarinete, ayo mafaranga kandi ushobora kuba wajya ku kigo, uyashaka ukasha kuba wayahinduranya utanze andi.

Amafaranga y'igihugu cya Tanzaniya aho ayo mafaranga azwiho ku izina ry'amashiringi ndikubona amashilingi magana atanu ariho umugabo.

Ndi kubona ikigo gishobora kuba gishinzwe ibintu bijyanye no kuba cyahinduranya amafaranga, mu buryo ushobora kuba wahagana ukabasha kuba watanga amanyarwanda, cyangwa se ukabasha kuba watanga amadorari bakayaguha mu manyarwanda.

Abantu bashobora kuba batanga serivisi zigiye zitandukanye, aho ushobora kuba wabagana ukabasha kuba wajyana amadolari bakayaguha mu mafaranga y'u Rwanda, aho hantu kandi bakunze kubikora ibyo bintu bijyanye no guhinduranya amafaranga.

Kubona ahantu ku muryango, hari akantu k'akapa atanga iyi serivisi, kerekana ibintu bishobora kuba bikorerwa aho ahantu, aho bigaragara ko ari ahantu ushobora kuba wajyana amafaranga bakayaguhindurira bite nuko ubishaka.

Ahantu ushobora kuba wagenda ukabasha kuba wahinduranya amafaranga yawe, tuvuge nk'urugero niba ujyanye amanyarwanda, urashaka ngo baguhe mu madorari nk'inyarwanda rimwe cyangwa se igihumbi cy'amanyarwanda baguhaye idorari rimwe.

Ubona ahantu bisa nk'aho ushobora kuba wabagana bakabasha kuba bagufasha mu guhinduranya amafaranga ayo ari yo yose, aho ushobora kuba wajyana amadolari bakayaguhindurira bakayaguha mu manyarwanda.

Ndi kubona umugore usa nkaho ari ahantu bashobora kuba batangira serivisi, zirimo kuba wajyana amafaranga atari ayo mu gihugu urimo bakabasha kuba baguhindurira, bakaguha ayo mu gihugu urimo.

Icyapa cyerekana ahantu ibintu bishobora kuba byahakorerwa, aho ndikubona ahantu handitse rizavu payi, ushobora kuba wabagana bakabasha kuba baguha serivisi.

Ndabona ahantu hari imiryango isa ubururu n'ibirahure kandi aho ahantu hasa nkaho bahinduranyiriza amafaranga mu buryo ushobora kujyanayo amadorari bakaguha amanyarwanda.

Ushobora kuba batanga serivisi zigiye zitandukanye aho ushobora kwagamana ukabasha kuba watanga serivisi zijyanye no guhindura amafaranga cyangwa se bakayaguha mu buryo uyakeneyemo.

Ndikubona intebe nziza cyane zakozwe n'ababaji aho izo ntebe ushobora kuba wazikoresha mu rugo akenshi zikunze gukoreshwa mu rugo izi ntebe zikaba zikozwe mu buryo bwiza cyane.

Akantu gashobora kuba gakoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye, aho ako kantu gakoreshwa mu gufata amazi cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ibisukika.

Aha hantutu hari intebe n'imeza aho izi ntebe zikozwe mu buryo bwa kijyambere aho kandi n'imeza zikozwe mu mbaho, aho izi meza ari imeza bashyira muri saro.

Ndabona ibikorwa remezo bijyanye n'ububaji, aho ndi kubona salamanje, abantu benshi bazwiho ko ari imeza abantu bajya kuriraho mu gihe bagiye kurya ibya saa sita cyangwa se ibya nimugoroba n'akabati kajyamo ibikoresho.

Hotel, hoteli nziza cyane iherereye mu gihugu cy'u Rwanda, aho iyo hoteli ushobora kuba wabagana bakabasha kuba baguha serivisi zigiye zitandukanye, aho ushobora kuba wasangamo serivisi ijyanye no kuba wacumbikamo ukabona ibintu byose wifuza.

Ndi kubona icyumba cyiza kirimo intebe n'imeza, imeza y'urubaho n'imeza y'ikirahure iyi nzu kandi iba iri muri hoteri aho benshi bazi icyumba cya hoteri.

Ndikubona hoteli, hoteli ahantu ushobora kuba wajya ugiye kuruhuka, ukabasha kuba wafata icyumba muri icyo cyumba kiba kirimo ibikoresho byose n'ubundi wasanga mu rugo kandi aho ushobora no kuba wasohoka hanze mu gihe hoteli ifite pisine ukabasha kuba wakoga.

Hoteli nziza cyane iherereye hano mu mujyi, aho yakira ba mukerarugendo cyangwa se abandi bantu bafite amafaranga bashaka kurara muri iyo hoteli iherereye mu mujyi rwagati.

Ndikubona ahantu kuri hoteri, hoteri ni ahantu ushobora kuba wajya ugiye kuruhuka cyangwa se ugiye kuba waharyama ukabasha kuba wabishyura.

Mariyoti hoteli ni hoteli nziza yo mu mujyi wa kigali, mu Rwanda, aho iyi hoteli ishobora kuba wajyamo ugiye kuruhuka cyangwa se ugashobora kuba wajyamo n'abakerarugendo baje mu gihugu cy'u Rwanda

Hotel kivu ni hoteri nziza cyane iherereye mu Kiyovu aho iyo nzu ushobora ku wayijyamo ukeneye kuba waharara cyangwa se ukeneye kuba wajya kuryayo ukishyura amafaranga ukabasha kubahabwa serivisi.

Inzu nini cyane bisa nk'aho iyi nzu iri ahantu handitse purayimu inshuwarensi, aho iyi nzu itanga serivise zijyanye n'ubwishingizi, aho ushobora kuba wabagana bakabasha kuba bagufasha mu buntu by'ubwishingizi.

Icyumba kiza cyane kirimo intebe za kizungu; izi intebe ni za zindi zibasha kuba zakoreshwa mu biro aho harimo na za mudasobwa zishobora kuba zakoreshwa mu kazi cyangwa mu bindi bintu.

Ni ahantu bisa nk'aho hantu ari ofisi cyangwa se ibiro bikorerwamo abantu bashinzwe gutanga ubwishingizi ku baturage, kandi aho hantu nkaba mbona hari za mudasobwa n'intebe n'ameza.

Ikigo gishobora kuba gishinzwe ibintu bijyanye n'ubwishingizi aho cyitwa yu eyi epa inshuwarensi. Bikaba bisobanuye ko ari ikigo gishinzwe ubwishingizi.

Ndi kubona umugabo usa nkaho ari umunyamahanga, umugabo kandi akaba ashobora gukora ibijyanye n'ubwishingizi bw'ibintu bigiye bitandukanye, aho ushora bakabigufasha.

Ndi kubona ikigo cyangwa se kampani ijyanye n'ubwishingizi; aho iyo kampani ishobora kuba yakoreshwa mu bintu bijyanye n'ubwishingizi, ushobora kuba wabagana bakabasha kuba bagufasha.

Ndikubona ahantu batanga ubwishingizi cyangwa se kapani igizwe n'ibintu bijyanye n'ubwishingizi, aho ushobora kuba wabagana bakabasha kuba baguha ubwishingizi bushinganisha ibikorwa remezo byawe.

Ndabona etage nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo etage iherereye mu mujyi, ikaba ari ikoreramo kampani ishinzwe ibintu by'ubwishingizi.

Ndikubona ahantu bisa nk'aho ari mu biro by'abantu bashinzwe kwakira abaturage babafasha ku bijyanye n'iby'ubwishingizi aho hantu kandi hakaba hasa neza.

Ndikubona akabati keza cyane kubatswe mu buryo bwa kijyambere aho aho hantu hashobora kuba ari biro cyangwa se ibiro bishobora kuba bikoreramo abantu bijyanye n'uko bakora ibintu by'ubwishingizi.

Ikintu gisa nkaho cyamamaza ibintu bijyanye n'imodoka, aho izo modoka zishobora kuba zakugirira akamaro mu bintu byawe ushobora kuba wakora watse inguzanyo.

Kopedu limitedi, aho icyo kigo gishinzwe ku bijyanye no gutanga inguzanyo cyangwa se kwizigama, kandi icyo kigo kikaba gikorera mu mujyi wa kigali mu Rwanda, cyangwa se ahandi hantu hose atari mu mujyi wa kigali mu zindi ntara.

Ndi kubona abantu bisa nkaho ari umuyobozi witwa Hirwa wa koperative, ari kumwe n'abandi bantu bakorera banki iri mu burasirazuba bwa Afurika.

Ndi kubona ahantu hasa nk'aho ari kuri banke, aho kuri banke ushobora kuba wabagana bakabashaka kuba baguha serivisi zigiye zitandukanye, aho ushobora kujyamo ugiye kubitsa cyangwa kubikuza cyangwa se gusa nk'aho wishyurira umuntu amafaranga.

Ahantu hari abantu basa nk'aho baje mu bikorwa bijyanye n'amafaranga, aho aho hantu hari abantu bahagaze n' abandi bahagaze hasi, hasi nyine abandi bahagaze hejuru yabo.

Abagore basa nkaho bishimye bamanitse amaboko umuzungu we asa nkaho asutamye bari gufata nk'ifoto y'urwibutso cyangwa se bagaragaza ko bishimiye ibintu bakorewe.

Ndabona abantu bisa nkaho bari ahantu mu kazi, basa nkaho hari abari gusa nkaho babaha serivise, ibyo kandi bikaba bivuze yuko bari kwaka serivise abantu bambaye imipira y'imyeruru.

Umuntu usa nk'aho ahagaze ari gusa nk'aho acuruza ibintu by'ibiribwa, aho ndi kubonamo inyanya, ibitunguru na tungurusumu n'amavuta, amamesa na mayoneze n'ibindi bitandukanye.

Ahantu hari abantu benshi aho abo bantu babibereye buri wese yibereye mu bye, hari abamotari bari mu kazi n'abandi bari kugenda bisa nk'aho ari ibintu bari gushaka.

Abantu basa nkaho bari mu isoko, baje kugura kandi abo bantu bakaba baje kugura, ibiribwaga cyangwa se imbuto, aho hari n'abacuruzi bacuruza ibyo bintu.

Ndi kubona isoko, isoko ni ahantu ushobora kuba wajya, ukabasha kuba wagura ibintu ukenera mu rugo, ushobora kuba wateka cyangwa se n'ibindi bintu bijyanye n'iminywere.

Ndi kubona isoko risa nk'aho ririmo ibintu bigiye bitandukanye, aho ndikubonamo: voka, n'inyembe n'insenda, n'ibishyimbo n'inyanya.

Abagore barahan mu isoko, iryo soko kandi rikaba ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, aho haba harimo abaje kugurisha n'abagura.

Ndi kubona ahantu mu isoko basa nk'aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye aho ndi kubona abantu benshi bari muri iryo soko basa nk'aho baje kureba cyangwa se baje kugura.

Bisa nkaho bari mu isoko aho abantu bari kugura abandi basa nkaho bari kugurisha, iryo soko kandi ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye, aho ndimo kubonamo inyanya, intoryi na karoti.

Ndi kubona isoko risa nkaho ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, aho ndi kubona ibijumba imyumbati, bisa nk'aho biri kugurishwa n'abantu bari aho mu isoko.

Umugore usa nkaho ari gutunganya amafi mu isoko. Isoko kandi ni ahantu ushobora kuba wagenda ushakira ibiribwa bigiye bitandukanye.

Isoko risa nk'aho ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye, aho ndi kubonamo pome, ibinyomoro, imineke, inanasi, voka n'amatunda.

Akazu ka eyateri, aho ako kazu kaba gacururizwamo amayinite ya eyateri cyangwa se serivisi zijyanye n'amafaranga, aho ushobora kuba wabagana bakagufasha mu bijyanye no kubitsa cyangwa kubikuza cyangwa kohereza amafaranga, haba harimo umuntu uhakorera w'umwajenti wa eyateri.

Ndi kubona umugabo wambaye akajile bisa nkaho ari umwajenti, utanga serivisi zijyanye n'amayinite mu mujyi wa Kigali, cyangwa se kubitsa, cyangwa se kubikuza, kandi uwo mwajenti akaba ari ukorera MTN ikigo cy'Igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ibijyanye n'itumanaho.

Ndi kubona akantu k'agakarita kariho kode, aho ushobora kuba wajya kugura ikintu cyangwa se ukagura ikintu ahantu ukabasha kuba wakwishyura kuri telefone ukoresheje imibare, ukabasha kuba washyiramo iyo mibare, ukishyura batagukase.

Akazu gasa nkaho ari aka MTN, MTN kandi ushobora kuba wabagana ukabasha kuba wagura amayinite, ukagura simukadi ushaka, ushobora kuba wakoreraho ibyo byose, aho iyo simukadi, ushobora kuba wabitsaho amafaranga, cyangwa ukabikuza cyangwa ukohereza.

Akazu k'umutuku ka eyateri ni ikigo cy'igihugu mu Rwanda gishinzwe nacyo ibijyanye n'itumanaho aho ushobora kubagurira amayinite ukaba gubahamagara; nomero zose cyangwa se ushobora kuba wabitsa cyangwa naho ukabikuza.

Ndikubona umugabo uhagaze asa nkaho ari uhagaze ku kazu ka emutiyeni aho ushobora kubagana bakabasha kuba barguha serivisi zirimo kubagurira amayinite cyangwa se kohereza amafaranga cyangwa kubikuza.

Ndikubona abantu basa nkaho bahagarariye umugore wambaye umupira wanditseho Emutiyeni, Emutiyeni kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'itumanaho aho ushobora kuba wahamagara ugahamagara mugenzi wawe uri kure cyangwa se ukohereza amafaranga ukayamwohereza ari kure ukanayabitsaho.

Akantu k'akapa kariho kode cyangwa se imibare ushobora kuba wakwishyura, ushaka cyangwa se umaze kugura nk'ikintu ahantu, ushobora kuba wakwishyura ukoresheje terefone kugira ngo batagukata.

Aha ushobora kuba wagurira ibintu onolayini (online), aho ushobora kufata telefone yawe ngendanwa ukabasha kuba washyiramo apulikasiyo y'ibintu bigiye bitandukanye. Hashobora kuba wagura cyangwa se ukanagurisha.

Ahantu bisa nkaho aho hantu hari moto iri kugenda itwaye imizigo, aho ushobora kuba washyira aplication ya "online shoping", aho ushobora kuba wabagana bakabasha kuba bagufasha mu kugura cyangwa se kugurisha.

Iyi ni apurikasiyo ushobora kuba watumizaho ibiryo ikabikuzanira vuba vuba kandi cyane, harodaringa ibintu byose bigiye bitandukanye, ibyo usabwa ni ukubandikira cyangwa se ugashyira urwo rubuga muri telefone yawe.

Ndi kubona moto zisa nkaho ari izijyanaye ibintu, bisa nkaho waba watumije, urugero utumije ibintu kuri telefone zawe ngendanwa utuje nk'ibiryo uravuze ngo babikuzanire, izi nizo zabasha kuba zabikora.

Vuba ni uburyo ushobora kuba watumiza ibiryo cyangwa se ibindi bintu bikakugeraho vuba binyuze kuri moto, aho ushobora kuba wajya kuri terefone yawe igendanwa ugashakinga apulikasiyo vuba vuba.

Kubona onurayini shopingi, aho ushobora kuba washyiramo apurikasiyo muri murandasi cyangwa se muri telefone yawe igendanwa, ugashyiramo apurikasiyo ya onurayini shopingi, ukabasha kuba wagura cyangwa ukagurisha.

Ndi kubona abantu, umugabo n'undi mugabo, umugabo umwe ni umuzungu, undi ni umwirabura, bafashe amakasike y'abamotari bazajya bakoresha muri iyi minsi.

Kubona vubavuba vubavuba ni ukuntu cyangwa se ni uburyo ushabora kuba waguramo ibintu, ukabasha kuba wabigura bakabasha kuba babikuzanira mu buryo bwihuse cyangwa se ukabasha kuba wabigura, bakabikuzanira i wawe, utabashije kuva mu rugo.

Kubona ahantu cyangwa se ukuntu ushobora kuba wajya kuri pfone yawe, ukabasha kuba washyiramo apurikasiyo, ushobora kuba waguriraho ibintu bigiye bitandukanye.

Ndi kubona icyapa gisa nkaho kiri kwamamaza ubwoko bw'imbuto byakorewe mu gihugu cy'u rwanda aho ndiho n'umugabo wambaye agapira kamufashe hari amata imbere ye n'avoka.

Inzu isankaho ikodeshwa cyangwa ikodeshwa amadorari 550 buri kwezi mu mujyi wa Kigali aho iy'inzu isankaho iri ahantu heza ifite n'icyumba cyiza.

Ndi kubona inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere, iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ituranye n'ikibuga cy'indege, aho iyo nzu igurwa miliyoni ijana na mirongo ine.

Urabona icyumba cyiza cyane aho icyo cyumba kirimo intebe imeza na televiziyo na vandarateri aho icyo cyumba gikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu buri kwezi.

Ndi kubona icyumba kiri ahantu gishobora kuba kigurishwa muri kibagabaga. Aho kigurishwa amadorari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu by'amadorari ya Amerika.

Kubona ahantu hari hanini cyane aho aho hantu hari amazu agiye ashobora kuba akodeshwa, ayo ayo mazu ashaka ko akodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu buri kwezi.

Inzu nziza ifite ahantu ushobora kuba watereka tivi sitandi yawe. Tivi nziza ushobora kuba wajya muri aho hantu hari dizayini nziza ikikijwe n'amatara. Iyo nzu kandi ikagura miliyoni ijana mirongo ine mu Rwanda.

Aha hantu ni Kacyiru mu mujyi wa kigali aho hari inzu ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu buri kwezi.

Inzu nziza cyane ifite igipangu kigezweho, yubatswe kandi nayo mu buryo bugezweho, aho ikodeshwa ibihumbi maganatandatu buri kwezi, ifite ibyumba bibiri kandi iyo ni aparitema.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho iyo nzu igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, aho ifite ahantu ushobora kuba wahaparika imodoka zawe, hagera ku buryo butatu ni i Kanombe.

Ndabona inzu nziza cyane iherereye Kabeza, aho ikodeshwa ibihumbi magana atandatu buri kwezi; ni yuzubatse mu buryo bwa kijyambere, aho iyo nzu irereye i Kanombe.

Ubona ahantu hari icyapa kiri ku nzu cyamamaza ibikorwaremezo bigiye bitandukanye bigaragarira aho hantu.

Ndikubona inzu nziaza cyane iherereye i Kanombe, aho iyo nzu ikodeshwa, iyi nzu ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu, n'inzu ifite aho wabasha kuba washyira imodoka yawe.

Ndabona inzu isa nkaho igurishwa iyo nzu, kandi ikaba isa nkaho igeretse yubatswe muburyo bwa kijyambere iteye amarangi meza ifite ahantu ushobora kuba waparika imodoka yawe.

Ndabona inzu nziza ifite inzugi zigezweho kandi iyo nzu ikaba yubatswe muburyo bugezweho aho ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bumwe ikaba iherereye i Kibagabaga ikaba ikodeshwa.

Ni inzu ifite ikirahure abantu benshi bakunze kwita ikirahure cya fime, kandi iyo nzu ifite ubwogero bumwe n'byumba bibiri, iherereye Kibagabaga, irakodeshwa.

Ahantu basa nk'aho bari kwamamaza ko hari inzu nziza cyane ikodeshwa aherereye i Kigali Kimironko ifite ibyumba bibiri ubwogero bubiri, ikaba ikoreshwa ibihumbi magana ane ku kwezi.

Ndabona ahantu hari inzu nziza, aho iyi nzu nziza ikodeshwa ifite ibyumba bibiri, ubwogero bumwe, iherereye Kibagabaga mu Mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Kubona ahantu bisa nk'aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, aho ushobora kuba wabagana bakagufasha mu kugura ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi, aho iyi nzu irimo ibintu bigiye bitandukanye, aho ndikubonamo amavuta n'inkweto z'abagore n'ibindi bintu n'amasakoshi, n'ibindi bintu bijyanye n'ibyo kuba umuntu yakambara cyangwa se akisiga.

Inzu y'ubucuruzi aho iyo nzu yitwa hudumati supamaketi. Aho iyo nzu ushobora kuhasangamo ibintu bigiye bitandukanye. Aho ibyo bintu harimo ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibindi ushobora wakwifashisha.

Kubona umugore wambaye akakanzu k'umutuku, ari mu nzu y'ubucuruzi aho iyo nzu abantu benshi bayiziho supermarket, supermarket kandi ushobora kuba wajyamo ugiye gushakiramo ibikoresho bikenerwa mu nzu ndetse n'ahandi.

Iduka bisa nkaho bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye kandi iryo duka ririmo umugore usa nkaho ari kubicuruza ibyo bintu bigiye bitandukanye, aho dushobora kuba twasangamo amatara twakwifashisha mu nzu.

Umugore usa nkaho ari ahantu mu iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye aho ibyo bintu bishobora ari ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya cyangwa se n'ibindi bintu ushobora kuba wakwifashisha mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Iduka ricuruza ibijyanye n'ibintu ushobora kuba wakwifashisha aho ushobora kuba wabagana, bakabasha kuba bagurika ibintu ushobora kuba wakifashisha birimo nk'amavuta n'amaparufe n'ibindi.

Kubona iduka risa nkaho ricuruza ibintu bigiye bitandukanye aho bashobora kuba bacuruza ibikoresho byo mu rugo cyangwa se ibindi bintu by'ibinyobwa n'ibyo kurya.

Ndi kubona ikigo gishinzwe ibintu bijyanye no kwizigama ukoresheje telefoni, aho ushobora kuba wakizigama ukoresheje telefoni, ibyo kandi bakaba babyita ngo ni ejo heza kugira ngo bigufashe mu buzima bwawe no mu bw'ejo.

Agakarita ka esi esi bi gashobora gukoreshwa n'umunyamuryango w'ubwisungane mu kwivuza. Iyo ufite iyi karita ntabwoshobora kurembera mu rugo kubera ko barakatura ku biciro wari kwishyura.

Umugabo usa nk'aho ahagarariye abandi bantu, bisa nk'aho ari kubabwira ibyo bamuteze aho amatwi bari kumva, aho kandi uwo mugabo yambaye ikoti ryiza cyane.

Ahantu hasa nkaho hakorerwa ibintu bigiye bitandukanye, aho ndikubona abantu bicaye bisa nkaho bategereje cyangwa se bibereye mu bindi bikorwa byabo.

...usa nk'aho ari gusinya akantu k'agapapuro. Ako gapapuro kakaba abantu benshi b'akazi ku izina rya mituweli de sante, aho ushobora kuba wajya kwivuza bakabasha kuba bagukaturira.

Ndabona abantu benshi, aho harimo abantu bakuru n'abana bafite udutabo tujyanye n'utw'ubwishingizi, abantu kandi akaba ari abasilamu, idini ry'abasilamu mu Rwanda.

Umusaza n'umukecuru basa nkaho bishimye, aho hariho RSSB, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'uburinzi cyangwa se kwitabwaho kw'abaturage mu Rwanda.

Kubona abagore n'abagabo bicaye ahantu mu icyumba bisa nkaho bari kumva abari kubabwira bisa nkaho kandi harimo n'abandi bantu ba bahagarariye aho.

Ndabona ukuboko kuri gusinya ku gatabo, ako gatabo gashobora kuba ari ako kajyanye n'ubwisunganeye mu kwivuza, aho ako gatabo abantu bakazi nka mituweri do sante.

Ndi kubona umugabo n'umugore basa nk'aho bari kuvugana, kandi bambaye imipira yanditseho RSSB, aho icyo kigo gishinzwe ibintu bijyanye n'ibintu by'ubwirinzi cyangwa se kumenya ubuzima bw'umuntu.

Ndi kubona abagabo basa nk'aho bari ahantu, abagabo babiri bafite akantu bari kwerekana, basa nk'aho bari kukifotorezaho, aho inyuma yabo hari abandi bantu bari kubareba.

Ndi kubona abantu basa nkaho barahantu kwa muganga bambaye udupfukamunwa, hari n'abandi bicaye basa nkaho bari gutanga serivisi zijyanye no kuba bashobora kuba bavura umuntu.

Ndikubona ahantu hasa nkaho handitse ngo "izigamire ugira ejo heza." Ushobora kuba hari umuryango wishyize hamwe kugira ngo ubashe kuba wafasha abaturage muri bibiri na cumi n'umunani mu bintu bijyanye no kwizigama.

Abantu mu iduka bacuruza ibintu by'imbuto aho ndi kubona inanasi, imineke n'ibindi bintu aho ushobora kubaka nawe bakaguha serivise zigiye zitandukanye.

Kubona abantu basa nkaho bari guhererekanya ibintu by'ibiribwa aho ari umugurisha n'umuguzi ushobora kuba ari kugura ibintu byo kurya.

Umugore usa nkaho afite akantu bashyiramo ibintu waguze mu iduka ricuruza ibintu byo kurya n'ibindi bitari byokurya.

Ndi kubona inzu y'ubucuruzi, aho iyo nzu icuruza imbuto, n'ibiribwa, n'ibinyobwa, n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo inanasi, amapome, ibinyomoro n'ibindi.

Kubona ahantu bisa nk'aho aho hantu hakorerwa ibintu bigiye bitandukanye, aho hantu kandi bishobora kuba ari inzu y'ubucuruzi, aho iyo nzu ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye aho ushobora kuba wabagana bakagufasha muri serivisi zigiye zitandukanye.

Iduka rinini cyane aho ushobora kuba wabagana ukabasha kuba wagura ibintu bigiye bitandukanye aho ushobora kuba wabyifashisha mu rugo cyangwa se ahandi hantu hagiye hatandukanye.

Ahantu mu iduka aho iryo duka rishobora kuba ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, kandi ukabasha kuba wajyamo ukabagurira ibintu biiye bitandukanye, aho ushobora kuba wahasangamo ibintu byo kurya, ibyo kunywa n'ibindi bintu wakwifashisha.

Umugore usa nk'aho yishimye ari guseka, aho ari muri supermarket isa nk'aho ari gutanga ibintu. Ibyo bintu kandi, bikaba bigiye gufatwa n'undi ubiguze.

Ndabona iduka risa nkaho rishobora kuba ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye. Aho ushobora kuhasangamo ibiribwa n'ibyo kunywa, n'ibindi bintu byose wakwifashisha ahandi hantu hagiye hatandukanye.

Ndikubona ahantu mu nzu y'ubucuruzi, iyo nzu kandi icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, ari yo dushobora gusangamo ibiribwa, ibinyobwa, abantu benshi bakunze kunywa cyangwa se bakarya ahantu.

Kubona iduka rinini cyane aho iryo duka ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, aho harimo inkeri, inyanya, ibitunguru n'amakaroti n'ibindi.

Ndi kubona iduka, iryo duka abantu benshi bariziho kuryita supamaketi, aho ushobora kuba wabagana bakabasha kuba baguha ibicuruzwa bigiye bitandukanye cyangwa se amaporodakiti agiye atandukanye.

Ndi kubona iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, aho ushobora kuba wahasangamo ibiribwa ibinyobwa n'ibindi bintu bitifashishwa mu isuku, cyangwa se ibindi bintu byifashishwa mu kazi.

Inzu y'ubucuruzi abantu benshi iyo bakunze kwiga nka supamaketi, aho iyo nzu irimo utuntu twinshi two kurya n'ibyo kunywa, bashobora kuhasangamo amasukari yifashishwa mu byo kunywa n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ndi kubona ahantu abantu benshi bakunze kwita Supermarket, aho wabasha kuba wabagana bakabasha kuba bagufasha ibijyanye no kuba wagura ibintu birimo ibyo kunywa, n'ibyo kurya n'ibindi.

Ndabona abantu basa nkaho bari ahantu mu iduka, aho iryo duka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, aho dushobora kuba twasangamo ibyorya, ibyo kunywa, n'ibindi bintu ushobora kuba wakoresha mu rugo cyangwa se ahandi hantu.